Abantu batandukanye barimo abahagaze, bambaye amajire n'abatayambaye, abandi bicaye kudutebe mu gisharagati, ubabona yuko barimo barahabwa serivisi.

Imodoka y'imbangukiragutabara iraparitse, irimo umugabo wambaye ishati yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, inyuma yayo hari inyubako yanditseho ngo Gatunda hosipito, ibitaro bya Nyagatare.

Abantu bambaye impuzankano ndetse n'abandi bambaye amajire akaba ari abakobwa ndetse n'abasore bafite icyapa cyanditseho ngo RCS mabagi resiposi.

Abasore bane, bambaye amajire y'umutuku ya croix rouge, bari gutanga ubutabazi bw'ibanze, aho bateruye umuntu urembye kuri burankari, bakaba bari kumufasha mu buryo bwo kumugeza kwa muganga.

Imodoka nyinshi zikoze mu bwoko bumwe zifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara n'agatuku gakeya, zose ziparitse hamwe muri parikingi kandi ziri ku ku murongo.

Abantu batandukanye biganjemo igitsina gabo n'igitsina gore, bamwe barahagaze abandi barasutamye, bamwe bambaye amajire ya Croix Rouge ndetse bose bafite utwemezo tw'ishimwe bari gufata ifoto.

Abantu biganjemo ab'igitsina gore, bitabiriye amahugurwa, bakaba bambaye amajire y'umutuku ndetse bakaba ari abakozi ba Croix Rouge.

Abagabo bambaye kasike z'umweru, bahetse amabomboni, batwaye umuntu kuri burakari, bagiye kumuha ubufasha bw'ibanze, imbere yabo hari abandi bagabo bambaye amajire y'umutuku bo muri Croix rouge.

Abagore n'abagabo bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abambaye ay'ubururu hakaba harimo umugore uhetse umwana, imbere yabo hari uducupa tubiri tw'imiti ndetse n'isahani.

Umugabo urembye uryamye ku gitanda cyo kwa muganga akaba ategereje ubufasha bw'ubuvuzi, hakaba hari umugabo w'umuzungu uri kumuryamisha neza, imbere yabo hari abandi bantu bahagaze bari kurebera.

Abagabo babiri baryamye ku bitanda hagati yabo hari umugore w'umuganga wambaye itabiye y'umweru, ishati y'umutuku ndetse na baji, amaze kubafata amaraso.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe, biganjemo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, harimo abagabo bambaye amakote, harimo abambaye amataburiya, inyuma yabo hari inzu nziza yubakishije amatafari ahiye.

Abagabo babiri baryamye ku bitanda byo kwa muganga bakaba baje gutanga amaraso, hagati yabo hari umuganga w'umugore wambaye itabuririya y'umweru ndetse na baji y'ubururu akaba ariwe uri gukora icyo gikorwa cyo kubafata amaraso.

Abantu benshi bahagaze imbere y'ivuriro, ni abantu biganjemo abagore ndetse n'abagabo, abagabo bambaye amakositimu harimo abirabura ndetse n'abazungu.

Umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvati, ni umugabo wirabura yambaye n'isaha ku kaboko, afite mikoro ari kuvuga ari kubwira abaturage ariko abaturage bo ntabwo bagaragara.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo, bicaye mu ntebe zo kwa muganga, imbere yabo hari umuganga uri kubahugura uri kubabwira ko bagomba kwirinda indwara zitandukanye, ndetse no kubungabunga ubuzima bwabo.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo igitsina gabo n'igitsina gore, bitabiriye amahugurwa, imbere yabo harimu umugabo wari kubahugura ariko bigaragara nk'aho basoje, bari kureba umukameramani uri kubafotora.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye kwa muganga baje gushaka serivise z'ubuvuzi, bari gukurikiranwa n'abaganga ndetse ubona y'uko bari guhabwa serivise uko bikwiye.

Itsinda ry'abantu barimo abakobwa ndetse n'abagabo, bambaye amakasike, bamwe muri bo bambaye amajire, inyuma yabo hari inzu yanditseho ngo ropitari.

Abaganga bambaye udupfukamunwa tw'umweru, amataburiya y'ubururu n'ingofero bari muri raboratwari ndetse bambaye n'uturindantoki tw'umweru bari gusuzuma umuti n'imba ukora neza.

Abantu benshi bari ku bitaro by'akarere ka Nyagatare, baje mu gikorwa cyo kwibuka. Aho bafite banderore yanditseho ngo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, ibitaro bya Nyagatare.

Abaganga benshi batandukanye barimo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bateraniye ahantu hamwe buri wese afite ibyo arangariyemo bamwe bari muri telefone abandi bari mu makayi.

Umubyeyi wambaye ishati iciye amaboko y'umweru ari kumwemwe n'umwana muto, bari imbere y'abamama babiri b'abaganga bari kubaha imiti.

Aha turahabona abantu biganjemo abagabo ndetse n'umugore umwe bambaye imyenda y'umweru, hari undi muganga wambaye itaburiya ndetse n'agapfukamunwa ari guhugura bagenzi be.

Ni kwa muganga aho abaturage benshi baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, bicaye ku tubaho aho bategereje y'uko bagerwaho bagahabwa serivisi.

Ni kwa muganga abaturage baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, hari umuganga wambaye agapira k'ubururu, akaba ari umwe mu bari gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Urujya n'uruza rw'abantu ruteraniye ahantu hamwe, aho bafite icyapa imbere yabo cyanditseho ngo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu ibitaro bya Nyagatare.

Abantu bameze nkabari mu mahugurwa, biganjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hari abantu babiri bahagaze, barimo umugore wambaye badji ndetse n'umugabo ,hari kandi undi mugore wicaye ufite amazi ya Nili.

Umugore wambaye agasengeri k'umweru ari kumwe n'umwana we baje kwa muganga, imbere ye hari abaganga babiri umwe afite ikaramu, undi afite agapapuro kanditseho imiti bagiye guha uwo uyu mugore.

Muri laboratwari, umuganga wambaye agapfukamunwa, ndetse n'itaburiya y'umweru, wambaye n'ingofero n'amarinete, afite akantu ari kureberamo umuti. Imbere ye, hari ibicupa bitandukanye, birimo imiti itandukanye.

Umuganga w'umugore wambaye itariya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru afite urushinge mu ntoki ari gusuzuma umuti nimba ukora neza.

Ni kwa muganga aho abaganga batandukanye bambaye amatabuye y'umweru ndetse n'udupfukamunwa, hakabamo n'undi mugabo wambaye ikoti n'abandi bambaye amakoti, bari gusuzuma imiti igiye itandukanye ndetse n'uburyo yakoreshwa.

Abantu benshi bateraniye muri raboratwari ndetse ubona y'uko haribyo baje kwiga baje gusuzuma imiti itandukanye, hagati yabo hari umuganga wambaye itaburiya uri kugenda abereka uko buri muti ukora.

Muri raburatwari aho bafatira bakanasuzumira ibizamini by'indwara zitandukanye hari umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse na ga n'itaburiya y'umweru, afite agatoroshi barebesha muri mayikorosikopi.

Umukobwa ufite ibisuko by'umuhondo wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umutuku, ufite n'agakapu k'umutuku, yicaye imbere y'umuganga w'umugabo ari kumusuzuma, inyuma ye hicaye undi mugore nawe wambaye amarinete w'umuganga.

Umubyeyi wambaye umupira w'umuhondo ateruye akana ndetse nako kambaye umupira w'umuhondo, inyuma ye hari abantu benshi barimo abagabo ndetse harimo n'abambaye amataburiya y'umweru.

Ni abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore bafite abana, baje gukurikira inyigisho zijyanye no kuboneza urubyaro ndetse no kwita ku buzima bw'abana babo ndetse n'ubwabo muri rusange.

Umubyeyi ugaragara nk'ubabaye wambaye umwenda w'umweru, ateruye uruhinja ndetse bigaragara ko yaje gushaka ubuvuzi bw'uruhinja rwe kwa muganga inyuma ye hicaye undi mugore urwaye ku gitanda.

Abana b'abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke bambaye impuzankano ziganjemo amabara y'ubururu ndetse n'umutuku, bari kunywa igikoma, bari kunywera mu bikombe by'umweru.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru na amarineti akaba ari guha umwana umuti, uwo mwana akaba ateruwe n'umumama ukuze.

Abakozi ba RBC bari gusuzuma akana gatoya, harimo umugabo wambaye ijeri y'umukara, inyuma yabo hari umupolisi wambaye impuzankano na we uri kubarebera ibyo bakora.

Urujya n'uruza rw'abaturage bitabiriye amahugurwa ya RBC, bicaye ahantu biganjemo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, imbere yabo hari indangururamajwi iri kubafasha kumva neza ibiri kuvugwa.

Ababyeyi babiri bari kumwe n'utwana twabo dutoya umubyeyi umwe ari guha akana ke amata y'Inyange, akana kari kunywa amata kishimye.

Abantu batandukanye, barimo igitsina gabo n'igitsina gore ,harimo abambaye imyenda isa, imipira y'umuhondo na marinette, arimo umupolisi ndetse n'umusirikare, bafite ururabyo mu ntoki bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke, bahagaze imbere y'abana ndetse bafite ibiryo mu ntoki bagiye kurya basangire n'abana babo.

Umumama ukiri muto mu maso, wambaye agashati k'igitenge, ari konsa umwana ndetse ku kaboko, biragaragara yuko afite igipfuko, nk'umuntu umaze gutanga amaraso.

Aha, turahabona abantu benshi biganjemo abagore. Imbere hahagaze umugore, wambaye igitambaro cy'umutuku, umupira w'umweru, wanditseho ngo, twite ku buzima bwo mu mutwe.

Abayobozi bicaye mu ntebe nziza ndetse ni abagabo babiri n'abagore babiri, umugore umwe afite mikoro afite n'urupapuro mu ntoki hari ibyo ari gusoma, inyuma yabo hari ibyapa bigiye bitandukanye.

Abagore n'abakobwa, barimo baranywa icyayi ndetse barya n'umugati, hari abagore babiri b'abazungu, barimo nabo bafite amazi imbere yabo, barimo baranarya.

Urujya n'uruza rw'abantu bitabiriye amahugurwa, aho bicaye mu sharagati, imbere yabo hari umugore ufite mikoro, uri kubabwira uko bakwitwara ndetse bakirinda n'ibintu bigiye bitandukanye bibi.

Abantu benshi biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bicaye kwa muganga ku tubaho, bambaye udupfukamunwa bategereje serivisi zo kwa muganga zihatangirwa.

Abagore bambaye imipira y'imituku isa, harimo n'abambaye imikara ndetse n'umweru, bose bafite amabaji ndetse bafite udupurizo bamanitse hejuru, bigaragara yuko bari kwishimira intsinzi runaka.

Abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore, harimo n'umupolisi wambaye impuzankano bateraniye ahantu hamwe bafite icyapa cyanditseho ngo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu muryango nyarwanda, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Muri farumasi harimo udukarito ndetse n'uducupa tw'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Muri farumasi, harimo umugabo wambaye umupira w'ibara ry'umweru, ari kugenda atondekanya uducupa ndetse n'udukarito turimo imiti ivura indwara zitandukanye.

Muri Pharmacy harimo abaganga babiri ,umwe w'umugabo, undi n'umugore, bambaye amataburiya y'imyeru ,inyuma yabo hari uducupa, ndetse n'udukarito turimo imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye.

Muri farumasi, umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ibisuko, ari kugenda atondekanya imiti neza. Higanjemo imiti iri mu dukarito n'uducupa, ikaba ivura indwara zitandukanye.

Umukobwa mwiza ufite umusatsi mwinshi, wambaye agapira k'umuhondo kariho ibara ry'umukara, afite ikaramu mu ntoki ari muri farumasi irimo imiti itandukanye.

Amacupa manini afite ibara ry'umweru ariho ibishushanyo bishushanyijeho amatungo atandukanye harimo inka, inkoko ndetse n'intama, bigaragare y'uko aya macupa arimo imiti y'amatungo.

Iduka ry'imiti rizwi nka farumasi mu ndimi z'amahanga, rikaba rigurisha imiti ikomoka ku bimera, kuri iyi nzu handitseho amagambo menshi yamamaza ndetse na nimero z'abantu ushobora gukenera bakorera muri iyi nzu.

Muri farumasi harimo uducupa twinshi ndetse n'udukarito turimo imiti itandukanye ivura indwara zigiye zitandukanye.

Muri farumasi hari udukarito dutandukanye turimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, zibasira abantu.

Ni muri farumasi ,harimo udukarito ndetse n'uducupa dutandukanye, turimo imiti igiye ivura indwara z'amoko yose ndetse zitandukanye.

Abantu batandukanye baje kwa muganga gushaka serivisi z'ubuvuzi, bicaye ku ntebe aho bari kugenda bakurikirana umwe umwe, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umukara, uri kubahiriza amabwiriza yuko bagiye kugenda bakurikirana.

Abagore batatu bahagaze bafashe mu ntoki zabo igihembo cy'ishimwe, bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo ibyo bihe bazahore babyibuka.

Abantu benshi bateraniye ahantu muri Sale, bicaye mu dutebe tw'umweru ndetse bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu. Hari umugabo uhagaze wambaye ikote ufite na mikoro uri kugira icyo ababwira. Imbere hari abandi bicaye na bo babayobozi bategereje kugira icyo bavuga.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo urubyiruko bitabiriye igitaramo aho imbere yabo hari abahanzi bari kubataramira muri abo bahanzi harimo umwe wambaye imyenda y'imikara n'amarinete ndetse n'uwundi wambaye umupira w'umweru ufite n'ibisuko ku mutwe.

Kuri robine hari abantu benshi baje kuvoma bakaba bategereje amazi, bari kugenda havoma umwe umwe ndetse hari amajerekani menshi ateretse, ari ku murongo yose akeneye kuvomerwa.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hariru umugabo wambaye ishati y'umukara, uri kubigisha ku ngingo zigiye zitandukanye, hari icyapa cyanditseho ngo ishema ryanjye.

Abaturage batandukanye barimo abagore n'abagabo bitabiriye inama aho bari kwigishwa ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'uburyo baburinda bakoresha imiti igiye itandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bitabiriye amahugurwa ari kuba, barimo abagore n'abagabo bose bakurikiye ibiri kuvugwa, imbere yabo hari icyapa cyanditseho ngo uzagakoreshe neza, ubwo ni agakingirizo bari kuvuga.

Abanyeshuri bo muri segondari bambaye impuzankano bicaye ahantu bishimye, imbere yabo bakaba bahafite icyapa cyanditseho ngo ndi uw'agaciro, ndashoboye.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo bateraniye ahantu hamwe, bicaye bakoze uruziga, bakaba baje mu mahugurwa ari kuvugirwamo ibintu bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu batandukanye biganjemo urubyiruko, bateraniye hamwe bari kwamamaza agakingirizo ndetse n'ibyiza byako ndetse n'ibyiza byo kwirinda sida ndetse n'ibibi bya sida.

Abantu benshi batandukanye. Bitabiriye amahugurwa, ndetse barakurikiye. Imbere yabo, hari umuntu uri kubaha ikiganiro, ufite mikoro.

Abantu benshi biganjemo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bitabiriye amahugurwa aho baje guhugurwa ku bijyanye no kwita ku buzima bwabo ndetse no kuburinda.

Umugore wambaye akajere k'umutuku bigaragara y'uko ariwe utanga amazi kuri iri riba hari abantu benshi baje gushaka amazi ndetse amajerekani yabo bayashyize ku murongo.

Umusaza ukuze ufite imvi, yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, afite ibibabi bitandukanye, bikorwamo imiti ya gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti itandukanye, ni imiti ya gakondo ikaba ivura indwara zitandukanye, aho iyi miti idapfa kuboneka kwa muganga, ahubwo usanga ari abantu bayifite ariko bakayikora bifashishije ibintu gakondo.

Udusahane turimo imiti gakondo igiye itandukanye ndetse ivura indwara zitandukanye, umuntu wicaye ufite akantu ari kunomba undi muti na wo uvura indwara zitandukanye.

Aha hari imiti gakondo itandukanye, ikozwe mu bimera byinshi birimo ibyatsi bitandukanye. Yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, inyubako isize amarangi y'ubururu ndetse hejuru ku muryango w'inyubako handitseho amagambo avuga ngo gira ubuzima.

Abantu batandukanye baje kwa muganga gushaka serivisi z'ubuvuzi, bicaye mu ntebe bategereje ko bagerwaho, imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'umukara n'umweru, ari kugira icyo ababwira, hari n'umuganga w'umugore wambaye itaburiya uri kugenda atanga serivisi kuri bamwe.

Abantu benshi baje kwa muganga gushaka serivisi z'ubuvuzi, hari abamama bateruye abana, hari umuganga uri kubahereza imiti ndetse ubona yuko ari ibintu byiza.

Icyapa kerekana ikigo nderabuzima cya Nyagatare kiri ahantu mu biti, imbere yacyo hari indabyo ndetse hari n'ikindi cyapa cyanditseho ngo bebili ngo dukorana na mituweli.

Umumama uhetse umwana wambaye agasharupe k'umweru, afite imisatsi isutse ndetse yambaye n'agaherena k'umweru ari kwinjira mu muryango ujya kwa muganga bigaragara ko agiye kwivuza.

Ni inzu isize irangi ry'ubururu igiye iriho ibyapa byanditseho amagambo atandukanye, isakaje amabati y'ubururu ndetse hicayeho imbere yayo abantu basa nkabategereje serivisi zihatangirwa, hejuru ku umuryango handitseho amagambo avuga ngo girubuzima.

Umubyeyi yicaye imbere y'umuganga yaje kwisuzumisha indwara, inyuma yabo yicaye abagabo batatu na bo bari kwitegereza uwo mubyeyi ndetse na muganga.

Mu ivuriro harimo ameza ariho igitambaro cy'ubururu, ndetse n'akandi ka meza gateretseho imiti, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari guha ubuvuzi umugore wicaye imbere ye, ubwo buvuzi bukaba buri guhabwa umwana uteruwe na mama we.

Abantu benshi batandukanye biganjemo abagore n'abagabo bitabiriye amahugurwa ariko harimo abarangaye ndetse n'abakurikiye.

Umumama wambaye itaburiya ndetse n'agapfukamunwa, yambaye na ga mu ntoki, imbere ye haryamye umumama waje kubyara akaba ari kumukorera serivisi z'ubuvuzi.

Abantu barimo umugore n'abagabo baje kwa muganga bashaka serivisi z'ubuvuzi, inyuma yabo hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Umugore wambaye igitenge waje kwipimisha malariya, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya n'uturindantoki, ari kumufata amaraso ngo arebe niba harimo malariya.

Ababyeyi bateruye abana biteze ibitambaro, baje kwa muganga gushaka serivisi z'ubuvuzi bw'abana babo. Hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'igitambaro akaba ari kubafasha.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umutuku, ni umuganga w'umugore wirabura akaba yicaye ku meza, afite amakaye imbere ye arimo arandika, imbere ye hari umugore waje gushaka serivise z'ubuvuzi.

Ku ivuriro ahatangirwa imiti itandukanye, ni inzu isize amabara y'ubururu ndetse n'umweru, iriho amagambo agiye ayanditseho, hari abantu benshi baje kuhashaka serivisi, ku muryango w'iyo nzu handitseho ngo girubuzima.